Ndabona umuntu ucuruza inzoga ari mu kabari, nk'inzoga inyuma ye harimo namazi ndabona arimo kunywa.

Ndikubona ahantu bacuruza ibyo kurya bibisi n'amasabune n'ibindi bikoreshwa mu rugo.

Ndabona iduka rifunguye ririmo ibyo kurya, baro, n'ibindi. Ku muryango hari udufuka tuhamanitse, imbere yaho hari umuhanda harimo gucamo umuntu, umugore.

Aho bacuruza amayinite na serivise z'itumanaho babitsa, bakanabikuza amafaranga kuri telefone.

Ndabona ahantu hari ishami rya banki hari idarapo ry'u Rwanda, haparitse imodoka imbere yaho, iruhande rwaho hari inzu y'ubucuruzi.

Ndabona iduka ririmo inzoga z'ibyuma, hariho n'ibyo kuzifu, byo gufunguza amacupa harimo n'amaji, amabiswi n'ibindi.

Inzu z'ubucuruzi aho bacuruza intebe zo mu nzu, zo mu rugo n'ahandi n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Ndi kubona amazu y'ubucuruzi hafi y'umuhanda, imbere hariyo amagaze, haparitse n'igare.